Umugabo wambaye imyenda y'umuhondo ubona ko ari gutera umuti mu myaka kugira ngo arusheho kwita ku bihingwa birushaho kugira imikurire myiza birusheho gutanga umusaruro. Ni byiza ko twita ku byo twahinze cyane cyane nk'ibimera bivamo ibyokurya kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza binyuze muri ibyo biryo.

Umugabo ubona ahetse igikoresho cyifashishwa mu gutera umuti kugira ngo abantu barusheho kwita ku myaka yabo irusheho gukura neza izatange umusaruro mwinshi kandi uzatume biteza imbere, babona umusaruro mwinshi binyuze mu kubyitaho babitera imiti. Ni byiza ko twita ku bimera byacu ndetse n'ibindi tuba twarahinze nk'ibishyimbo, turusheho kuzabona umusaruro mwiza kandi tuziteza imbere.

Umugabo wambaye igisurubeti ubona ko afite ipompe itera umuti ubona ko yambaye agapfumunwa kabugene kugira ngo umuti utamwanduza atamujya mu mazuru atawuhumekabona ubona ko arimo gutera ibigori kugirango ngo birusheho gukura neza byoyongera umusaruro. Ni byiza kubungabunga ibimera harimo n'ibimera tuba twarateye ngo bidufashe kuduha ibyokurya kugirango ngo turusheho kwiteza imbere ni byiza ku tubungabunga ibihingwa nk'ibi tubite imiti yabugenewe kugira ngo turusheho kwica udusimba tubibangamira bikarushaho gutanga umusaruro mwinshi.

Umugabo ubona afite imashini itera umuti, pompe ubona ko arimo gutera umuti mu myaka, kugira ngo irusheho kumera neza, ndetse irusheho gutanga umusaruro. Ni byiza kubungabunga imyaka yacu, ibihingwa, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, binyuze muri ibyo bihingwa twitayeho, turya, tugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko tubitera imiti, kugira ngo nabyo birusheho gukura neza, birusheho gutanga umusaruro mwinshi, watuma duteza imbere igihugu cyacu, ndetse natwe tukiteza imbere.

Umukobwa ubona uri guseka, ahetse agatebo mu mugongo, ubona ko ari kunuga icyayi, ubona ko ari ibihingwa byiza byinjiza amafaranga. Ni byiza ko tubungabunga ibihingwa nk'ibi tukanabyitaho, kugira ngo turusheho gukorera amafaranga menshi, ndetse no kurushaho gukorera amafaranga atandukanye, ndetse arimo n'amanyamahanga, igihe twabigemuye hanze, tubungabunge ibikorwa remezo nk'ibi harimo ibimera cyane cyane.

Igiti cy'ikawa ubona ko kiri ikawa nyinshi, ubona ko ikawa ni nziza ziteza abantu imbere, bazikuramo amafaranga zigatuma abantu biteza imbere, bagateza imbere n'Igihugu cyabo. Ni byiza ko duhinga ikawa, ndetse n'ibindi nk'icyayi kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu tuniteza imbere, dukora bizinesi nk'izo. Twiteze imbere dutera ibiti nk'ibi, kugira ngo turusheho kubungabunga ejo hacu hazaza no kwiteza imbere

Imiti itandukanye ubona ko hari amarozwari. Afasha abantu kuhira ibyatsi bitandukanye ndetse hari n'imiti, yifashishwa mu kwita ku matungo cyane cyane nk'inkoko kugira ngo zirusheho kugira ubuzima bwiza. Zirusheho kubaho neza kandi zitanga umusaruro. Ni byiza ko tuzitaho tukazibungabunga kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwinshi.

Amacupa y'umweru ubona nk'igihe hari agakarito yajemo, ubona ko ari amacupa arimo imiti y'amatungo, bashobora gutera amatungo cyangwa se bagaha amatungo, akarushaho gutanga umusaruro akanakura neza atarwaye. Ni byiza ko twita ku mutungo yacu, tuyashakira abaveterineri bayitaho, tukanayateresha imiti myiza nk'iyi, ituma abaho neza kandi agatanga umusaruro.

Imiti itandukanye ubona ko ari imiti y'inyamaswa batera amatungo kugira ngo arusheho gukura neza ndetse no kurushaho kubaho neza, ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko aribyo bikunda kuvamo imiti nk'iyi y'amatungo kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza ko tubibungabunga kandi kugira ngo turusheho no gutuma inyamaswa zacu zibaho neza zigatanga umusaruro, tubungabunge imiti ndetse n'ibimera kugira ngo turusheho kugirira ubuzima bwiza inyamaswa.

Amacupa atandukanye ubona ari ay'umweru ari ay'amabara y'umutuku ndetse ubona ko amacupa abamo imiti y'inyamaswa. Ubona ko ari imiti myiza y'amatungo. Ushobora gutera amatungo bikarushaho gutanga umusaruro, bikazivura indwara zitandukanye kugira ngo zirusheho kuzikuza ndetse no gutuma zitanga umusaruro. Ni byiza ko twita ku matungo yacu tuyaha imiti yabugenewe igihe zifite ikibazo kugira ngo zirusheho gukura neza no gutanga umusaruro.

Imyaka itandukanye ubona ko ari ibigori bihinze ahantu mu gishanga. Ni byiza ko byitabwaho kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza no kwiteza imbere, babungabunga ibigori nk'ibi. Urabona ko ari ibigori bigeze igihe cyo kwitabwaho, bigaterwa umuti, kugira ngo barusheho kwica udusimba. Urabona ko ari ibigori bifasha abaturage kwiteza imbere. Ni imyaka myiza abantu bahinga bakarushaho kwiteza imbere, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, binyuze mu iterambere, bateza imbere n'igihugu cyabo.

Umugabo ubona ko ari gutera ibyatsi ubona ko ari ahantu heza hari ibimera byiza abona ko ari umuhinzi ari kwita ku bidukikije ndetse n'ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza binyuze mu bimera, tubungabunge ibimera kugirango ngo turusheho kugira ubuzima busa kandi buzira umuze kuko bidufasha guduha umwuka mwiza wo guhumeka no kubikuramo imitima iza Kinyarwanda tukanabihinga kugirango turusheho gutunga umuryango ndetse no kwiteza imbere.

Ahantu mu muhanda ubona hari abaturage benshi batandukanye ubona ko ari ahantu hahinze amasaka hirya ku ruhande ubona ko hari urutoki, hari ibihingwa bitandukanye muri ko ari ahantu heza hari ibiribwa abantu barya kugirango ngo barusheho kwiteza imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona ko ari mu murima hateye imyumbati igiti cy'imyumbati ubona ko imyumbati ari ibiryo byiza bihingwa kugira ngo abantu babirye barusheho kwiteza imbere banabikoramo ibindi bwoko butandukanye nko kusya bakayikoramo ubugari bikaba byatuma biteza imbere bayigurisha kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Ni byiza kubungabunga ibimera ndetse n'ibidukikije turushaho kugira ubuzima bwiza kandi tuniteze imbere tugire iterambere rirabye.

Ahantu heza ubona ko uri mu ishyamba hari ibimera bitandukanye, hari n'ibiti. Ibyo biti bishobora gufasha abantu kubonaha umwuka wo guhumeka ndetse bakaba banakura inkwi zo gucana ahantu nk'aha, kandi bakaba banahakura imiti myiza ya Kinyarwanda, dore ko ikunda kwimeza ahantu mu mashyamba. Tubungabunge ibidukikije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hari ibiti byinshi ubona ko ari mu bihuru ubona ko ari ishyamba rinini cyane, rifasha abaturage kuba bakuramo inkwi ndetse bakanatwika amakara bakiteza imbere, ni byiza ko tungabunga amashyamba nk'aya aba ari n'ubuhungiro bw'inyamaswa cyangwa se hari n'ingo z'inyamaswa nyinshi kugira ngo zibone aho ziba, ni byiza ko tuhabungabunga kandi tukirinda kumenamo imyanda kugira ngo itica inyamaswa z'agasozi, ni byiza kandi ko tuyibungabu kuko bidufasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu hari ibiti byinshi ubona ko ari mu ishyamba mu bihuru, ubona ko ari ahantu inyamanswa zo mugasozi ziba, ni byiza ko tubungabunga ahantu nkaha kuko haba ubwihisho bw'inyamanswa cyangwa se murugo h'inyamanswa z'igasozi, kandi hakaba hadufasha kuduha n'umwuka mwiza duhumeka, ikindi kandi dushobora no kujya mu mashyamba nk'aya tugakuramo inkwi zo gucana tugatwika n'amakara tukiteza imbere, tubungabunge ibidukikije tugire ubuzima bwiza.

Umubyeyi wma ubona ko ari gutoranya inyanya nziza zipakira mu gatebo kugira ngo a urushe kuzijyana ku isoko yiteza imbere, arusheho guteza imbere igihugu cye ndetse n'umuryango. Ni byiza ko duhinga ibihingwa nk'ibi kugira ngo turusheho kwiteza imbere tukabyitaho ngo tubirye. Imbuto ni nziza ku mubiri wa umuntu.

Ahantu ubona imbuto nziza imyembe ubona ko ari mu giti yahishije ubonako ari imbuto zifasha abantu mu gutuma bagira ubuzima bwiza bakira n'indwara zitandukanye. Ni byiza ko dukoresha imbuto nk'izi tuzirya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa ubona yambaye ipantaro ubona afite akantu keza ari kwaha imyembe. Urabona ko ari imbuto nziza abantu barya kugira ngo ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije harimo nk'imbuto nk'izi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi tuniteze imbere, tuzijyana ku isoko turushaho kwiteza imbere no guteza imbere Igihugu cyacu muri rusange.

Umwana w'umukobwa ubona ko afite rozwari(indobo), ubona ko arimo yuhira imboga za mashu, kugira ngo arusheho kwiteza imbere, ashobora kuzigurisha cyangwa se akazirya bikamufasha kugira vitame mubiri we, ndetse bikaba byanamuha n'amafaranga igihe azijyanye ku isoko, ni byiza ko dukora imishinga nk'iyi iduteza imbere kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzirazunguze turushe no kwiteza imbere mu gihugu cyacu twongera iterambere.

Ahantu ubona ko hari mu gishanga hateye ibintu byinshi ubona ko hari uburyo bwiza bwakoreshejwe buhirira imyaka kugira ngo imyaka irusheho kumera neza, ubona ko ari uburyo bwiza bugezweho abantu bakifashisha kugira ngo barusheho kwita ku myaka barusheho kongera umusaruro no kugira ngo barusheho kugera ku iterambere mu buryo bwihuse kandi bworoshye .Tubungabunge ibimera tubyuhira kugira ngo birurusheho kugira ubuzima bwiza bimere neza Kandi bitange umusaruro.

Ahantu heza mu ifamu, hari inka nziza z'inyambo zifite amahembe meza, ubona ko hari n'abantu bazitaho ubona ko ari amaveteneri baje kuzivura ni byiza ko igihe cyose ushaka kugira iterambere ugomba gushaka abaganga b'inka zawe kugira ngo barusheho kuzitaho zikure niba'i zitanga umusaruro. Twite ku nka zacu ni zo terambere rya...

Inka z'inyambo nini ubona ko ari inka nziza, ziri ahantu heza mu ifamu ubona ko zitaweho, ubona ko hari abaveteneri baje kuzitaho, abaganga babigenewe b'amatungo kugira ngo barusheho gutuma zitanga umusaruro ndetse n'umukamo mwinshi. Abaturage zirushaho kubateza imbere no guteza igihugu cyabo muri rusange imbere. Tubungabunge inka zacu kuko nibwo bukungu bwacu.

umugabobona ari kwanika ibigori ubona ko ari umusaruro mwinshi cyane. Ubona ko yahinze cyane kugira ngo arusheho kwita ku musaruro ndetse akaba yaramwungutse. Ni byiza ko dukora imishinga nk'iyo guhinga ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi tuniteze imbere, ubona ko afite ibigori byinshi. Ni byiza ko twita ku misaruro yacu tukayitera imiti nk'ibihingwa kugira ngo turusheho kwiteza imbere kandi tugire ubuzima bwiza buzira umuze.

Inka nziza z'inyambo ubona zifite amahembe meza ubona ko ari inka zitanga umukamo kandi zifasha abaturage kwiteza imbere bagateza imbere igihugu cyabo mu rusange, ni byiza ko twita ku matungo nk'aya tuyavuza ndetse kugirango ngo arusheho gutanga umukamo mwiza tunayagaburire neza kugira ngo turusheho kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tunywa n'amata.

Inyamaswa ebyiri ubona harimo intare, ubona ko ziri ahantu mu ishyamba, ubona ko ari inyamaswa z'agasozi. Ni byiza ko tubungabunga amashyamba ndetse n'ahantu nk'aha kugira ngo inyamaswa zibone aho ziba nk'izi zagasozi, zitazarya abantu. Tubungabunge ibidukikije cyane cyane amashyamba cyangwa ibihuru nk'ibi bibamo inyamaswa nk'iyi.